Abajyanama b'ubuzima bari kumwe n'abazungu ndetse n'abandi bagabo, bambaye amakoti y'amakositimu, ni abajyanama bari gusobanura imiti uko imeze n'uko ikora.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye bari mu nama, bari kuganira ku nyugu zitandukanye, imbere yabo hari ama mashini ndetse abari kuvuga hari abambaye amakoti ya za kositime.

Umuganga ufashe ukuboko k'umurwayi ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso yiwe, umurwayi yicaye ku gitanda, muganga arahagaze, yafashe ukuboko kwiwe, yamushyizeho icyuma cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Umwana ufite isabune mu ntoki, yambaye umupira w'ubururu, ari gusukirwa amazi ava mujage isa icyatsi, afite isabune, ari koga mu ntoki.

Abana bari gukora kuri robine ari benshi, ni abana benshi bose bazanye ibiganza babishyira kuri robine aho amazi ari kuza aturuka, abana bambaye imyenda irimo ikigina, umutuku, ubururu n'iyindi.

Abana b'abahungu bagiye kuvoma amazi ku iriba n'abandi b'abasore bagiye kuvoma amazi ku iriba, bose bajyanye amabido bari kuvoma amazi umwe asunika amazi, aho undi yarangiza akabona kuza.

Ikirango cyo mu mwaka w'ibimbi bibirina makumyabiri na kane cya afurika kugira ngo bite ku buzima cyangwa se ku kijyanye n'abajyanama b'ubuzima n' ikirango gishishikariza kuba umuntu yakwita ku bajyanama b'ubuzima ndetse bakaba banakwita ku bantu babana n'uburwayi ubwo aribwo bwose.

Umusore w'umuganga uri kwita ku murwayi, aho ari kumutera agashinge ku ntoki, uyu murwayi ni umurwayi w'umukecuru, inyuma yiwe hari undi musore wambaye ijire aho ari kubareba. Iruhande rwabo hari undi na we ufite imiti w'umukobwa ayifite mu kiganza.

Abajyanama b'ubuzima bari hamwe bari kuganira ndetse bahagaze bifotoza ni abajyanama bari kumwe barimo n'umuganga bagera ku bajyanama barindwi akaba ari abajyanama bahagaze barimo n'abagabo ndetse n'abagore.

Umubyeyi wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu ndetse n'igitenge gisa n'icyatsi, ari kuvoma afite ibido isa n'umuhondo, ari kuvoma kuri robine ziri ahantu hubakiye.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bose bari kumwe, inyuma yabo hakaba hari n'abarwayi bari kumwe bose hamwe bari kwa muganga, aba uko ari ubwoko butatu harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye imyenda y'umweru.

Abana benshi bari hamwe, bari gukaraba intoki zabo, kugira ngo zongere zise neza, ni abana bagera kuri batandatu, inyuma hari abandi bana benshi cyane, nabo bari gubareba, ubona ko ari abana bafite gahunda yo kukaraba intoki zabo bakazisukura.

Umwana ufite akabido akaba ari kuvoma ku mazi, akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse yambaye n'ikabutura isa n'umukara, hirya ye hari abandi bana ndetse n'ababyeyi.

Abana bari kunywa amazi. Bari gusuka amazi ava mu tuntu dusa n'ubururu, duteretse turimo amazi tumeze nk'utujyega. Ni abana bari kumwe, bose bafite ibikombe bari kunywa amazi meza.

Umwana uri kuvoma kuri robine afite igikombe gisa n'ikigina akaba yambaye umupira w'umutuku ni umwirabura ndetse ari no guseka, iruhande rwe hari robine ebyiri zose zifunguye amazi ari kuza.

Abagore batatu bari kwandika amagambo ku nkingi, bafite amabido abiri ndetse umwe yambaye umwenda usa n'umutuku, abandi bambaye imyenda irimo ubururu ndetse n'umukara n'imyeru.

Abaganga bari kumwe, bari mu nama, bari kuganira ku buzima bw'abantu bafite mu bitaro. Ndetse abaganga bari kumwe n'Umushinwa ndetse n'abandi bagore batandukanye.

Umuganga ufite agacupa bashyiramo imiti y'abana ari guhereza imiti umwana uteruwe n'umubyeyi bishimiye bari guseka, muganga yambaye itaburiya y'umweru, umubyeyi aricaye undi muganga yafashe amatama y'umwana ari kumuha imiti.

Abajyanama b'ubuzima bifotoza hamwe, bambaye amataburiya y'umweru ndetse abandi bambaye imyenda, imipira hejuru y'imikara, bakaba bambaye n'utundi tuntu mu majosi tw'utubaji.

Umubyeyi wikoreye ibido ameze nk'umuntu uvuye kuvoma, akenye igitenge ndetse atandiye igitenge mu mutwe wiwe, iruhande rwe hari umwana, hirya ye hari umuntu w'umusaza.

Abaganga bagiye gusuzuma banatera inshinge abana, ababyeyi bazanye abana benshi, ndetse abaganga barahari bari kugenda basuzuma batera inshinge buri mwana, ni abana benshi ndetse n'ababyeyi benshi baje.

Abayobozi bari mu nama harimo abagore batatu ndetse n'abagabo batatu, bambaye udupfukamunwa, umugore umwe w'umuzungu yambaye agapfukamunwa k'umukara abandi bambaye udupfukamunwa tw'umweru turimo ubururu bukeya.

Abaganga bateraniye hamwe bari kuganira, hejuru yabo ku rukuta handitse amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Avuga ngo, uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Abajyanama b'ubuzima bafite ibikoresho bari gutanga. Umwe muri bo yambaye World Health Organisation mu ikoti yambaye ryanditseho gutyo inyuma. Ndetse akaba ari kurebana n'undi na we uri gukora ku bikoresho bagiye gutanga. Ibikoresho biri mu mashashi asa n'ibara ry'icyatsi ndetse n'ay'umweru ndetse n'iby'ubururu.

Abantu bateraniye hamwe bagiye kwivuza ni abantu bagiye kureba abajyanama kugira ngo babashe kubavura indwara zigiye zitandukanye abo bantu bafite, harimo abakecuru, abasaza, abagore, abagabo n'abana.

Abantu bicaye bambaye imipira y'umweru ndetse bicaye bari kureba imbere, harimo abambaye ingofero n'amarinete, ndetse harimo n'abambaye amapantaro y'imikara, ni ahantutu ubona ko bari mu nama cyangwa se bafite ikintu cyabateranyije bose hamwe.

Umubyeyi uhetse umwana wajishije igitenge, akaba yunamye ari koza ibyombo; ari iruhande rw'ahantu bavomera amazi, akaba akenyeye igitenge.

Umubyeyi wicaye bari kumuvura, uri kumuvura ni umuganga yamushyizeho akantu gasuzuma umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'iwe kw'iburyo, uri kumuvura yambaye agapfukamunwa n'uwo bari kuvura yambaye agapfukamunwa.

Abajyanama b'ubuzima benshi bari hamwe bari kumwe n'umugabo w'umuzungu, iruhande rwabo hari n'umudogiteri ubari impande, umugabo w'umuzungu abari hagati yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ariko bya kositime.

Abana batoya bari kunywa amazi bafashe ibiganza babishyira aho amazi aturuka maze banywa amazi. Nabana bagera muri batandatu ndetse aba bana uko ari barindwi bakaba buri wese yafashe umwanya akareba kugira ngo abashe kugaragara.

Umubyeyi w'umumama uteruye umwana, akaba yambaye agapfukamunwa, ateruye umwana mutoya wagahinja akaba ari kumusoma mu maso.

Ku iriba ababyeyi n'abana ndetse n'abangavu bari ku mazi bari kuvoma, umubyeyi yafashe icyuma ari kukimanura akizamura kugira ngo amazi aze maze umwana na we ari kuvoma, hirya abandi bari kureba.

Aba ni bafashijwe na UNICEF bambaye imipira yanditseho UNICEF ndetse abana bambaye imipira isa n'ubururu, ni abana batoya b'abakobwa.

Ahantu bavomera ahari ababyeyi baje kuvoma bafite amabido ndetse n'abasore baje kuvoma bafite amabido, amabido ahari ni menshi, bayatondesheje umurongo, bari kuvoma amazi. Ahantu bavomera hafite igikuta gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umwana w'umusore uri ku iriba ry'amazi, ari kuvoma amazi yashyizeho ibiganza byiwe, iruhande rwe hari idomoro ijyamo amazi isa n'ubururu, robine ari kuvomaho na yo isa ubururu, yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umukara.

Umwana mutoya w'umuhungu wateze amaboko ku iriba aho ari kunywa anywesha amaboko yiwe cyangwa se ibiganza bye ari kunywa amazi aturuka muri robine akamanuka agwa mu biganza bye undi nawe akayanywa, yambaye umwenda usa n'uwa gisirikare uriho amabara menshi ndetse n'ikabutura y'umutuku.

Ababyeyi bicaye hamwe bari kuganira harimo harimo inkeragutabara, hakaba harimo n'abandi babyeyi bafite amakayi, ni ku kigo nderabuzima.

Abantu bane harimo umubyeyi w'umwirabura wambaye igitenge cy'ikigina, harimo n'abaganga babiri ndetse n'umwana uryamye ubona ko arwaye bagiye gutera urushinge.

injuste dicad de rechi power up in heve sevis cavaleige amog women newbu aldc drenne in row and medel ingam countriris ntiyari halved ibi ni ibigaragazwa byanditse mu rurimi rw'icyongereza

Umwana uteruwe n'umubyeyi, umwana yaryamye ku mubyeyi, naho umuganga ari gutera urushinge umwana ku kuboko kwiwe kw'iburyo, umwana ari kureba imbere afite udusaro ku mutwe.

Umusaza ufite ibido, akaba yicayeho iruhande rwaho bavomera amazi, ni umusaza wishimye cyane, ufite akanyamuneza ubona ko afite ubuzima bwiza, yambaye ishati ndetse n'ipantaro.

Umubyeyi w'umumama ufite igitambaro mu mutwe cy'umukara, ari kumwe n'umwana we wambaye ingofero, bakaba bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, ari kubandikira ibintu mu ikayi.

Inyandiko igaragaza kuba hakurwaho kanseri mu Rwanda, igaragazwa na Dogita Sabe Nsanzimana Minisitiri w'ubuzima, ibyo yagiye yandika bigiye bitandukanye.

Imodoka zanditseho WFP cyangwa se WFP ziriho icyo kirangantego ndetse n'imodoka zigenda zikururana ndende ziri mu muhanda.

Umukobwa uri kumwe n'umwana bari kuvoma amazi mabi, umukobwa arunamye afite ikivomesho cyangwa se ibido ari kuvoma amazi mabi ayadaha ayashyira muri iyi bido.

Umwana w'umunyeshuri ari kwita ku buzima bwe aho ari gukaraba intoki n'amazi meza, ndetse n'isabune. Ni umwana wambaye umwenda w'ubururu umupira w'amaboko maremare mo imbere akaba yambaye ishati y'umweru, akaba yambaye n'ikanzu y'ubururu ari gukaraba kuri robine nziza isa umweru ikeye, izana amazi meza.

Abaganga bicaye hamwe bambaye imyenda y'imyeru, ni abaganga bari kumwe bateranye bari hamwe, inyuma yabo hari amagambo yanditse ari ku rukuta ndetse bambaye imyenda bose isa.

Abana bane, bari kuvoma amazi ahantu hatemba amazi asa nabi. Ni ahantu hari izuba ryinshi ndetse abana bane bashyize ibyo bavomesha mu mazi, babishyiramo mu mazi barabyinika.

Abana b'abahungu bagiye kuvomwa, harimo n'abana batoya bari munsi y'imyaka itandatu, abenshi bajyanye amabido ndetse abandi bari ku ruhande bari kwitegereza abantu bari ku ruhande.

Ibiganza bibiri biri kuri robine biri gufata amazi ari kumanuka, uko agenda amanuka hari robine isa umukara.

Abagabo n'abagore ndetse n'abasore bari mu nama, bahagarariwe n'umugore ari kubabwira ibintu. Bamwe baricaye, we arahagaze, ari kuvuga.

Abantu bateraniye hamwe bagiye mu nama, aba bantu bagiye mu nama bari kumwe biga ku buzima bwabo. Iyi nama yagiyemo abantu benshi harimo: abasaza, abagore, abakecuru ndetse n'abagabo basanzwe n'abana.

Abajyanama b'ubuzima cyangwa se abaganga bambaye ingofero z'umweru ndetse bambaye n'imipira y'ubururu. Yanditseho amagambo avuga ngo Shora neza. Ni ukuvuga ngo iyi myenda bambaye isa n'ibara ry'ubururu yanditseho amagambo y'ibara ry'umweru.

Abajyanama b'ubuzima bambaye udupfukamunwa bari kumwe n'abayobozi babo barimo n'umuzungu, ni abajyanama bahagaze buri wese ahagaze afite ishashi irimo ibintu babahaye, inyuma yabo hari icyapa cya MTN ndetse n'abantu bambaye imyenda y'imihondo.

Abantu bicaye mu nama bari kuganira ndetse imbere yaboho hari amazi ari mu birahure, bicaye barebana bamwe iburyo abandi ibumoso. Imbere yabo hari screen nini, iy'amashusho ndetse buri wese afite utuntu two kwandikamo, hari n'abafite amamashini.

Abamama bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima bose bari hamwe bishimye, bateranye bari kuganira. Ni abamama bari bishimanye n'abana ndetse n'abajyanama bari kubagira inama z'ubuzima ndetse n'uburyo bashobora kuba bakitwara kugirango bamererwe neza mu buzima.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye umupira w'ikigo nderabuzima, ari guterwa urukingo ndetse runyuze mu rushinge, ari kuruterwa n'umuganga wambaye umwenda w'umweru ndetse yambaye na ga z'umweru.

Abaganga b'abasore ndetse n'abaganga b'abakobwa, bari bari hamwe bishimye ndetse bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye imyenda y'imikara hejuru.

Abana batandatu bari kuvoma, bafite indobo eshatu z'imihondo, bakaba bafite n'utujerekani, bakaba bambaye imyenda y'ikigina, amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufi.

Umwana uri kuvoma amazi y'ibiziba ari kuyavoma ayavomera mu ibido, ni umwana wambaye umwenda w'isengeri hejuru, akaba yambaye n'agakabutura karimo amabara menshi, ari kuvoma amazi asa nabi cyane.

Ikirango kigaragaza ,umunsi wo kurwanya ,ihohotera ryo mu mutwe, ku itariki ,icumi z'ukwa cumi.

Umugabo ubana n'uburwayi bwo mu mutwe yatoye amashashi. Ni umugabo yambaye imyenda isa nabi ndetse yicaye ahantu haca amazi asa nabi. Akaba afite ishashi mu ntoki, iruhande rwe hari akabido k'umukara.

Abana b'abanyeshuri bari hamwe bazamuye ibiganza, n'abana bishimye aba bana bose barishimye nk'uko bigaragara bari kureba hejuru bazamuye ibiganza.

Abasore bicaye mu ntebe, bari kureba imbere, bateze amatwi, imbere yabo bareba abantu babari imbere, bicaye ku ntebe, banambaye imyenda y'imikara iba iriho ibirango bimeze nk'aho bisa.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ngombwa kubwitaho ku bantu bose. Niko amagambo yo mu cyongereza yanditse avuga. Ngo reka dukomeze dukore ubuzima bukwiriye butuma tubaho neza.

Kominiti herufu sisitemu. Harimo akaziga karimo umwana umeze nk'uwicaye, hakabamo akaziga kariho ababyeyi babiri bafite abana hakaba hariho akaziga k'umubyeyi ubona warambitse umwana hakaba harimo n'akaziga k'umubyeyi utwite n'akaziga k'umuntu uri kugororora.

Umugabo wicaye, ari kwitekerezaho yifashe ku mutwe ubona ko afite ibibazo. Iruhande rwe hari umukobwa wamufashe ukuboko, amufata ku rutugu ndetse ari kumuhumuriza, amwumvisha ibintu bimwe na bimwe uko byaba bimeze, uko ari ko kose, ari kumugira inama.

Ababyeyi bari mu nzu, bari kumwe n'abandi ari benshi bose bateraniye hamwe bari bari mu kiganiro, bamwe barasutamye, abandi barahagaze, ubwo bari bari hamwe bishimye bari kuganira ku bijyanye n'iby'ubuzima, n'ubuzima bw'imyororokere bwo mu mutwe.

Umugabo umeze nk'umusazi ufite imisatsi yamwereye ku mutwe ndetse n'ubwanwa bwamurenze, umugabo w'umwirabura usa nabi cyane wambaye imyenda yacitse.

Abantu bita ku ndwara zijyanye no mu mutwe cyangwa se ku buzima bujyanye no mu mutwe, bakaba ari abantu bagera mu munani bari hamwe bamwe bambaye imipira y'imyeru abandi bambaye imikara ndetse n'ubururu. Imbere y'aho hari ameza y'imikara ari ibintu bigiye bitandukanye.

Haragaragara umutwe w'umuntu ndetse hakagaragara n'ubwonko uko buba bumeze mu mutwe w'umuntu, bigaragara umutwe w'umuntu ugaragara mu ibara ry'ubururu, ubwoko bukagaragara mu ibara ry'umutuku uvanze n'umuhondo.

Umubyeyi w'umumama ufite agapapuro kariho kwibuka, ni umubyeyi ubona ko azirikana ndetse aba yanitaye ku bintu, akaba ari umubyeyi ubona ko yishimye ari guseka.

Umugabo wambaye nk'umubyinnyi w'Umunyarwanda akaba afite n'icumu, ni umugabo wambaye ibintu bishwambagaye byo mu mutwe akaba anateze igitambaro gisa n'ibara ry'umuhondo, ni umusaza.

Abagabo bahagaze bari kumwe ndetse n'abagore, harimo umupolisi umwe uhagaze hagati abandi bahagaze ku ruhande rwiwe. Iburyo ndetse n'ibumoso harimo abagore ndetse n'abagabo.

Umwana wihebye uri kurira wifashe mu mutwe, ari kurira amarira akamanuka ku matama. Inyuma ye hari umubyeyi ufite ibintu mu ntoki yabizamuye ndetse hirya yabo hari abana benshi nabo ubona ko bari mu buzima butameze neza, aha bigendana n'ikibazo cyo mu bwonko.

Umwana wishimye wasetse uri kumwe n'umubyeyi na we wishimye wasetse, umubyeyi afite imisatsi myinshi kurusha umwana, ndetse umwana akaba yambaye umupira w'umweru urimo akandi kabara, umubyeyi na we yambaye umupira w'umweru.

Abaganga bahagaze bari kwifotoza. Ni abaganga bateraniye hamwe bose, inyuma yaho hari ikirango cya RBC, bari hamwe hari abicaye hari n'abahagaze.

Umugabo wagiye ahantu bibukira, akaba yunamye yunamiye abandi. Imbere hari indabyo ndetse yambaye ikoti risa n'ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro isa n'ibara ry'umukara. Inyuma ye hari igikuta cyanditseho amazina y'abantu.

Umukecuru uri guseka, ateze igitambaro gisa icyatsi, gifitemo amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'amabara y'umukara, ni umukecuru ubona ko yishimye, ni umwirabura.

Ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, niho habaye inama imeze gutya, ikaba ari inama yari iteraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, abo rero bagaragara ni abari mubari bayiyoboye.

Ababyeyi bari kumwe ndetse bari kumwe n'abana ,imbere yabo bafite umujyanama w'ubuzima ariko bagira inama aba babyeyi umwefite ibyo agiye kugaburira umwana undi umwana we aramuteruye n'ababyeyi bicaranye n'umujyanama ufite ipantaro isa umukara imbere ye hari telefone.

Umukobwa uhagaze ari kuganira n'undi mugore, uyu mukobwa yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira usa n'ibara ritukura, ari kurebana n'undi mugore wambaye igitenge, ndetse afite n'ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso, bari kuganira kugira ngo arebe uko atekereza n'ibyo avuga.

Umugabo ufite isume ku rutugu akaba ari koza amenyo akoresheje akadodo, ni umugabo ufite akadodo n'amaboko ye abiri ari gucisha mu menyo ye kugira ngo ayoze ase neza.

Umusore ufite akadodo ari koza amenyo, umusore yagashyize mu menyo aka kadodo maze akagenda akanyuzamo akanyuzamo, yagafashe mu kuboko kumwe ku imoso ndetse n'ukuboko ku iburyo.

Abaganga ndetse n'abajyanama bari gupima abantu uburebure bwabo barangiza bakanabapima n'ibiro byabo kugira ngo bamenye uko abo bantu bahagaze, ni abaganga bari kumwe n'abarwayi abaje kwipimisha kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo bumeze.

Abaganga b'amenyo bari kumwe, bari kwandika ku mpapuro ibyo bagiye bakora. Umwe yambaye ikoti ry'umutuku, undi yambaye ikoti risa n'ubururu. Hirya yabo hari ameza asa n'ubururu, ariho amacupa ndetse n'amaterefone.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umukara, umwe yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, undi yambaye amarinete cyangwa se amadarubindi, ndetse n'apfukamunwa k'umukara, akaba ari kureba mu menyo y'uwo bari kuvura.

Umugabo wishimye uri guseka, yamwenyuye, afite amenyo y'umweru ndetse amenyo yiwe arasa neza cyane. Yambaye umupira w'umweru ariko ari kugaragaza amenyo yiwe ukuntu acyeye, nyuma yuko aba yayatunganyije akayitaho.

Abana bari gusuzumwa amenyo yabo niba ameze neza, bari gusuzumwa n'abaganga, abana bicaye ku ntebe bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ijambo tubiteho ndetse abaganga bari kubasuzuma bambaye udupfukamunwa babari inyuma, imbere y'aba bana hariyo korogate ya White dent.

Abaganga bateraniye hamwe bishimye ni abaganga barimo abavura amenyo, aba bose bameze neza barishimye bafite amenyo asa neza, ameze neza ndetse harimo abakobwa ndetse n'abamama n'abazungu.

Umusore uryamye bagiye gukura iryinyo. Ni umusore uryamye umuganga afite urushinge, agiye kumutera ku ishinya kugira ngo amukuremo iryinyo, afite n'akantu bari bukoreshe bakuramo iryinyo.

Icyumba basuzumiramo abarwayi, kirimo igitanda baryamaho bari kubasuzuma, kikaba kirimo amamashini bareberaho bari kubasuzuma, kikaba kiriho ameza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kwa muganga.

Umukobwa wishimye uri kwerekana amenyo yiwe ukuntu asa, afite inzara ndetse yashyize intoki ze hejuru y'umunwa, ku ruhande rw'umunwa ndetse no hepfo y'umunwa.

Abana bose bari kumwe hamwe, bafite uburoso bw'amenyo, aba bana bari koza amenyo yabo, kugira ngo amenyo yabo bayabungabunge agire ubuzima bwiza, ni abana bambaye imyenda isa n'ubururu.

Icyumba abantu bicaramo kugira ngo babavure ni icyumba cyo kwa muganga abantu bicaramo kirimo intebe abantu bicaramo kugira ngo babakure amenyo n'intebe zituma umuntu agarama agasa n'ureba hejuru ubundi bakamukura amenyo.

Umusore ugaramye akaba yerekana amenyo yiwe ndetse undi muntu umuri imbere ariko afite akantu kariho uduti twogukoresha mu menyo akaba yambaye gamu zisa ubururu.

Ikirango kituruka mu mashini kigaragaza amenyo y'umuntu ukuntu aba ameze. Ni igishushanyo kigaragara, kigaragajwe giturutse mu mashini, aho kiba kigaragaza ukuntu mu kanwa k'umuntu amenyo yiwe aba agiye atondetse.

Umukobwa ufite uburoso bw'amenyo ari koza amenyo, yambaye umwenda w'isengeri usa n'umweru, imbere ye hari uducupa tugiye dutandukanye n'ikirahure kirimo uburoso ari kwireba mu kirahure.

Umwana ufite uburoso bw'amenyo, ari kwiborosa amenyo y'iwe. Ni umwana ufite uburoso mu kuboko kw'iburyo, akaba yicaye ku gatebe, ari kwiborosa amenyo y'iwe, ari kuyoza.

Ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo hari abanga bicaye ndetse bafite uburoso bwo kwifashishwa kuba bakoza amenyo ndetse na korogati. Iruhande rwabo hari ababibahaye b'abajyanama ndetse bo bambaye, aba ngaba bicaye bambaye amabara y'icyatsi ni yo mipira bambaye niko isa, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Umubyeyi w'umumama, akaba ari guhabwa imiti n'umwana w'umukobwa w'umuganga. Akaba ari guhabwa imiti kugira ngo abashe kuyinywa, imbere ye hari amazi yo kunywa, anywesheje iyi miti.

Umumama uri gufasha umusaza kuba yagororera imitsi ye akoresheje utwuma twa siporo, ni umumama ari kumufasha uwo musaza yambaye umupira w'ubururu ndetse umumama ni umuganga, umumama ari gukoresha siporo uyu musaza.

Umuntu w'umuganga ari kwigisha umurwayi kugenda agendera mu kuma agafasha abarwayi bafite ikibazo mu maguru ndetse n'umugongo kuba yagenda, yambaye umuganga yambaye itaburiya y'umweru naho ugaragara nk'umurwayi yambaye ipantaro y'umutuku ndetse.

Abasaza bicaye bari kuboha ikintu ndetse barambije ibirenge byabo hasi bamwe bambaye utugofero mu mutwe abandi ntatwo bambaye, harimo n'undi ugaragara nk'umusore umwe.

Umugore uri gufata afasha umusaza, umusaza yambaye ishati y'ubururu, ni umusaza ukuze cyane, akaba yicaye ku buriri, inyumaye hari super net, ndetse iruhande rw'umugore umufashe hari agatara, umugore ari kumufasha guhaguruka.

Umusaza wirabura, wambaye agapfukamunwa yicaye, yambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari umukobwa ufite ibisuko mu mutwe, ufite agapfukamunwa gasa n'ubururu, yambaye umwenda w'icyatsi cyijimye.

Umubyeyi w'umumama w'umukecuru wicaye ku buriri, akaba afite umugozi hejuru usa n'ibara rya pink, yambaye umwenda w'amaboko maremare usa n'ibara rya grey, akaba iruhande rwe hahagaze umuforomo wambaye umwenda w'ubururu wijimye ndetse n'umupira w'amaboko maremare w'umweru.

Ababyeyi babiri bari kumwe bicaye imbere y'ameza aho bari gufungura amafunguro, ni ababyeyi barimo umusaza ukuze cyane wishimye uri guseka ndetse ari kumwe n'umukecuru nawe ufite ikirisho agiye gutamira ibyo kurya.

Abantu bari kugenda batanga ibintu bimwe na bimwe, bakaba bari gufasha umubyeyi w'umumama ukuze, ni umubyeyi uri guhabwa igikapu kirimo ibintu, akaba ari kugihabwa n'undi mubyeyi wundi wambaye ikanzu ateza igitambaro cy'ubururu.

Umuganga w'umusaza akaba ari umuganga uri gufashwa kugira ngo agorore ingingo ziwe amere neza, ari gufashwa n'umuforomo kazi w'umuzungu ufite umugozi w'umuhondo agenda amugorora amufasha kugira ngo amererwe neza.

Uri kurya ari kurya ari kumwe n'undi muntu ni umusaza ufite ibiryo biri mu isahani y'umweru ndetse ari kubiyora ni ibiryo birimo ibi biryo bisa n'iby'ibyatsi ndetse hakaba hari n'amazi iruhande rwe ni umusaza ukuze wambaye ishati irimo amabara.

Umubyeyi w'umumama wicaye hasi ari kwigorora, agorora ingingo ziwe. Yambaye umwenda w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye inkweto zirimo ubururu bukeya.

Umubyeyi uri gukora siporo ngororamubiri, akaba ari umubyeyi ufite akuma ari kugaterura, yambaye umwenda w'umweru ndetse inyuma ye hari abazungu bagenzi biwe bari nabo muri siporo.

Umubyeyi ukuze urwaye akaba afite imiti mu kiganza cyiwe agiye kuyinywa, ni umubyeyi w'umumama ukuze, akaba nta musatsi afite, afite ikirahure mu kuboko kw'iburyo n'imiti mu kuboko kw'ibumoso.

Umusaza wicaye ku gatebe k'abantu babana n'ubumuga. Ari kugenda ari guseka, ari kumwe n'umukobwa uri kugenda amusetsa, bari kugenda bagenda, umukobwa arahagaze ari gusunikwa ari gusunika umusaza, umusaza nawe arishimye ari guseka.

Ababyeyi babiri bari mu myitozo ngororamubiri, bari kwiyitaho. Umwe umukecuru cyane akaba yambaye umupira w'ikigina akaba yambaye none igitambaro cy'umweru kuboko.

Umukecuru n'umusaza bishimanye, bari gufata amafunguro cyangwa se bari kurya. Uyu mukecuru n'umusaza bombi bari guseka barebana mu maso, bigaragara ko bafite ubuzima bwiza.

Ababyeyi babiri bari kumwe umwe ari gukata ibyo kurya, undi nawe ari kumureba mu maso afite igisororo cy'kirahure imbere ye, umwe ni mukuru cyane undi ni mutoya.

Umuganga w'umusore uri kwereka umupapa mukuru ufite imvi ndetse ari kumwereka mu gitabo, umuganga yambaye itaburiya isa umweru n'ishati ndetse na karuvati isa ubururu, umusaza yambaye ishati isa ikigina.

Umubyeyi w'umupapa ndetse n'uw'umumama baricaye hamwe bari gukina imikino ibaruhura. Bose uko ari babiri bicaye bishimye bari guseka, barasa neza, bameze neza, basazanye ubuzima bwiza.

Umusaza uri kumwe n'umuzungu, umuzungu ari gufasha umusaza. Uyu muzungu ni umumama, ari gufasha umusaza kuba yamanuka ndetse agenda amufashe ukuboko kwiwe.

Umwana ufite umupira uri gukina n'umusaza, ni umwana mutoya wishimye uri gukina n'umusaza, uyu mwana akaba afite umupira wa ballon ya basket. Inyuma ye hari umusaza uri gukinana na we.

Umugabo wambaye uturangururamajwi mu matwi, yambaye na rinete akaba yambaye n'umupira w'ubururu bwerurutse, akaba afite utuntu dusa umutuku mu ntoki ndetse ni umusaza ufite imvi, yambaye ipantaro y'umukara.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, ni umubyeyi ukuze, akaba ari kumwe n'umwana w'iwe w'umukobwa, n'umukobwa wambaye nk'umuforomokazi uri kumwitaho. Bose barishimye, ni ababyeyi bishimye ndetse n'umwana barishimye bari guseka. Umubyeyi yaricaye umwana amufashe ku ntugu.

Umubyeyi w'umusaza uri kwitabwaho n'umuganga, akaba ari kumufasha kugira ngo amererwe neza, ni umusaza wambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ari gukandwa mu bitugu n'umuzungu, ufite imyenda isa n'ubururu ndetse ni ishati ndetse n'ipantaro niko bisa, afite agakoresho ari guterura ko guterura.

Umubyeyi w'umukecuru ari kumwe n'undi w'umugabo bari kwirukanka bakora siporo ngorora mubiri, ari kumufasha gukora siporo, umubyeyi w'umumama yambaye umwenda w'umweru wo hejuru, akaba yambaye n'isaha ibumoso mu kuboko.

Umusaza bari kwereka uburyo agomba kunywa imiti, afite imiti mu kiganza cyiwe akaba agiye kuyinywa, ayifite mu kiganza cy'iburyo ndetse imbere ye hari amazi agiye kuyinywesha, ni umusaza ukuze ari kumwe n'umukecuru nawe ukuze.

aboshoon wde white to seusenge unseventin an iv proglece and in inteca axis gukuramo inda ku isi yosese mu mwaka w biibihubiri na cumi nakarindwi mu gikorwa kidakwiriye kandi kitakagombye gukorwa

Ikirango cyarangaga guhagarika Korona ndetse cyigishaga n'abantu uko bagomba kwitwararika mu gihe bari buhure n'abantu cyangwa se mu buryo bwo kwirinda ko bakwandura Korona virusi.

Umufasha wo kwa muganga wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'itaburiya y'ubururu. Akaba ari iruhande rw'ahanditse Powering Healthcare in Rwanda, Market assessment and Roadmap for Healfcare facilities.

Kugira ihame rivuga ngo ''herifu pipo Rwanda''. Bisobanura abantu bafite ubuzima buzima b, Abanyarwanda.

Abaganga bambaye amakoti ndetse abapfuka no mu mutwe, bambaye agapfukamunwa, bambaye n'amarinete, bakaba bambaye imyenda isa umweru.

Ababyeyi bane bi bari hamwe bari inyuma y'ikintu by'iyi karito bateruye bakiri inyuma bakaba bishimye ubona ko bari guseka. Ibi bijyanye n'ubuzima rusange ndetse n'ubwiza.

Utuziga tugera kuri turindwi, hagati harimo akaziga kamwe, kanditseho amagambo yo mu cyongereza n'utundi tudukikije turiho amagambo nayo agiye yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo uhagaze afite ikirango cyangwa se igipapuro cyanditseho amagambo asobanura ko igihe urukingo rwa Monkey poxrwabonetse.

Ikirangantego cya Leta y'u Rwanda gifite agaseke mo muri cyo gikoze mu kizeru ndetse kikaba gifite ibara ry'ubururu inyuma yacyo, cyo kikaba kigaragara mu ibara ry'umweru.

Umugore uri iruhande rw'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ashishikariza abantu kurwanya Covid cumi n'icyenda. Ni amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, yatanzwe ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima.

Abaganga bari gupima abarwayi, babatera udushinge ku ntoki bari kubasuzuma. Ni abaganga bagera kuri batatu bicaye, bicaye ahantu hamwe bari gupima abarwayi babiri.

Minisitiri w'ubuzima ari kumwe n'undi mugabo bahuje ibiganza ndetse buri umwe afite urupapuro cyangwa se igitabo yahawe na mugenzi we, bose bambaye amakositime asa n'ibara ry'ubururu.

Abantu bagera kuri batandatu harimo abaganga babiri n'abakorera bushake bagera kuri batatu. Undi muntu wa gatandatu araryamye ku gatanda batwariraho abarwayi bari kumufasha bigaragara. Rero yambaye ipantaro isa umutuku n'ishati irimo amabara agiye atandukanye.

Umubyeyi wicaye wambaye agapfuka amunwa, ufite ubwoba bari gutera urukingo ku kuboko kwe kw'ibumoso. Yambaye umupira w'umweru uri kurumutera w'umuganga nawe yambaye umupira w'umweru inyuma yaho hari umugabo uhari ari kubireba.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri, ni ibitanda bifite uburiri busa n'umweru ndetse ni icyumba gifite inkuta zisa n'ibara ry'umweru harimo n'ahari ubururu ndetse n'ahari icyatsi cyijimye.

Inyubako yo kwa muganga irimo isohokamo imodoka. Ni inyubako isa n'ibara ry'umweru, ikaba ifite n'indi bara ijya gusa na pinki. Ni inyubako imbere yayo hicaye umusikirite yicaye ku ntebe, yambaye umupira w'ubururu.

Umwana bashyize ku munzani bari kumupima ibiro byiwe, ni umwana mutoya uwamushyize ku munzani ni umukobwa w'umumama, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse ari kureba umwana ari ku munzani. Umwana afiteho n'imigozi bamuzitseho kugira ngo ataza kugwa, bari kumupima ibiro by'iwe.

Umubyeyi uteruye umwana, akaba inyuma ye hari undi mubyeyi bari kumwe ariko we ni umuganga, bari kumwe bari mu nzu yo kwa muganga aho bishimye bombi, umwe ateruye umwana undi amuri inyuma, uteruye umwana yambaye umwenda w'umweru utamuteruye w'umuganga yambaye umwenda w'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu, umurwayi uryamye, bisa nkaho bari kugira ubuvuzi bamuha, ndetse hakaba harimo n'abandi b'abaganga bagera kuri batatu umwe ari kureba mu cyuma, undi yamuhagaze inyuma, undi ari hirya nawe afite ibintu ari gukora.

Icyumba cyo kwa muganga, kiba kirimo aho abarwayi baryama, ni icyumba bavuriramo abarwayi, ikirimo amatera, ibitanda abarwayi baryamaho, ndetse bikaba bifite amamashini, iruhande rwabyo bareberamo uko abarwayi bameze, iruhande rw'amamashini hari utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu kuvura.

Inzu yo kwa muganga yubatse ari inzu nini cyane ni etaje, ikaba ifite amabara y'umweru na yo yiganjemo ndetse n'ay'umuhondo ndetse n'ubururu.

Icyumba cy'inama gifite intebe zicarwaho zizingwa, kikaba gifite n'ahantu imbere, abantu bahagarara bari kurebana n'abari bicaye muri izo ntebe zizingwa.

Umuganga uri mu cyumba kirimo imashini z'abaganga, yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'itabuririya y'umweru, afite imisatsi miremire igwa mu mugongo, ari kureba mu mashini imuri imbere, imashini irasa umweru, icyumba arimo nacyo kirasa n'umweru.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye harimo umubyeyi w'umumama akaba ari kuba yafungura igikoresho kimwe arikoramo ashyizemo amaboko igikoresho gisa n'ubururu ndetse n'umweru n'ibindi birimo niko bisa hari ameza ariho ibara ry'umweru n'umutuku.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se materinete ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite n'amabati y'ubururu, inyuma yaho hari ibiti biteye.

Ibiro by'Akarere k'ibitaro bya Shyira, ni ahantu heza hubatse inzu nziza y'ibitaro bya Shyira, ni inzu ivurirwamo abarwayi bagiye batandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, kirimo amamashini atandukanye, yifashishwa mu buvuzi bukorerwa kwa muganga. Izi mashini ziri mu mabara y'ubururu ndetse no mu mabara y'umweru, zirimo n'ibintu bisa n'umuhondo.

Inzu irimo ibikoresho bya siporo, ni inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikorerisho birukankiraho, hakaba harimo ibikoresho baterura hakaba harimo n'ahantu baba bari gukorera babyinira kugira ngo bagororoke bamere neza.

Umuganga ari gutembera kwa muganga, yambaye umwenda w'ubururu ndetse hasi no hejuru, ari mu nzu yo kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye n'abaganga benshi batandukanye bari mu kazi kabo.

Umwana wicaranye n'umuganga mu nzu yo kwa muganga, aho umuganga afashe ukuboko kw'iwe ari kumugupima umuvuduko w'amaraso, umwana yambaye ishati y'umweru n'umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Inzu y'ababyeyi bakunda kwita materinite, ni inzu iri ahantu ababyeyi babyarira, ikaba ifite amabati asa ubururu, ndetse ikaba yubakishijwe n'amatafari, ni inzu y'ababyeyi, ababyeyi babyariramo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bitandukanye, bifite amasupanete hejuru yabyo, hakabaha ibitanda birimo biryamyeho abarwayi batandukanye aho buri murwayi aryamyeho ku gitanda kiwe.

Inzu ifite intebe zitukura hanze ikaba ifite ibara ry'ubururu ku gice cyo hasi, ikaba inafite n'ahantu harambuye hashobora kuba haparika imodoka ndetse ikaba ifite n'ibyapa iruhande rwayo.

Inzu iriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza uvuga ngo bayodeyina. Ni inzu iriho amatara agaragara mu ibara ry'ubururu ndetse n'ay'umweru.

Icyumba bakoreramo siporo. Ni icyumba kirimo ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye harimo ibyo baterura, ibyo banyonga, hakabamo n'ibyo bicaraho bakazajya bigorora, ni ibyo bikoresho bigiye bitandukanye biri muri iki cyumba bakoreramo siporo.

Biontech ikigo kinini cyifashishwa mu kuba kivura abantu indwara zitandukanye, ni ikigo gifite inzu ndende igeretse birenze rimwe.

Ikigo nderabuzima cya Kigina ni ikigo imbere yacyo hari umubyeyi uhetse umwana, uyu mubyeyi akaba afite agatambaro gasa n'ibara ry'umweru yambaye. Ni ikigo nderabuzima cya Kigina.

Umuganga wishimye uri guseka, afite akantu bandikaho mu ntoki, akaba mu ijosi afite ku bitugu byiwe akantu bapimisha umutima ndetse akaba yambaye itaburiya isa umweru n'ishati irimo umweru n'umukara. Yambaye n'amadarubindi.

Ku kigo nderabuzima gifite aho bakirira abantu. Aha ngaha ni kuri reception ahakirirwa abarwayi baje kwivuza bwa mbere. Ni aho babakirira, hari abantu benshi baje kwivuza, harimo ababyeyi bahetse abana, ababyeyi, inkumi ndetse n'abamama n'abagabo.

Inzu nini yo kwa muganga, inzu ifite ibice bitatu bitandukanye, ni inzu nziza ikaba yubatse neza, ikaba ifite ibyatsi iruhande rwayo.

Icyumba kirimo ibitanda byo kwa muganga, ndetse n'ibikoresho n'amamashini yo kwa muganga, harimo ameza, ndetse n'ibitanda biriho imisego.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini agiye atandukanye, harimo ibitanda bifite amashuka asa n'umweru kuri buri gitanda hagiye hariho ibintu bikoreshwa kwa muganga bimeze nk'amashashi arimo amazi ndetse n'ibikarito bishyirwamo impapuro, iruhande rw'ibi bitanda hari amamashini bacunga bacungiraho abarwayi.

Umubyeyi uri kwa muganga aryamye. Aryamye arwaye, naho hari umuganga uri kumufasha, ari kumwitaho amucomekera utuntu bagiye bamushyiraho. Ni umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse ari gufasha umurwayi wambaye imyenda y'umweru uryamye amashuka y'imyeru.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ni ikigo kifashishwa mu kuba gisuzuma abantu kikabavura kikaba cyitwa ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ni ikigo cyiza kandi kiriho abantu bagiye kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amazu agiye atandukanye ndetse kirimo ibikoresho bigiye binatandukanye, aho harimo amasikirini manini, hakaba harimo ibitanda, hakaba harimo n'amameza atandukanye n'amashusho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini ifasha gusuzuma umubiri w'abantu uko umeze, iyi mashini ifite ahantu umuntu aryamaho ubundi barangiza bakamushyira muri iyo mashini ikamureba uko ameze.

Ibitaro bya Rwamagana biriho imbere yabyo abantu bahagaze b'abaganga, ni abaganga bahagaze bari kumwe harimo abagore, abakobwa, abagabo ndetse n'abandi batandukanye n'ingeri zose.

Abantu batatu barimo umwana utambaye umupira uri kwa muganga. Muganga aramufashe ari kumusuzuma muganga yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye itaburiya y'umweru , undi muntu umwegereye umusore ufite igitambaro mu mutwe wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara n'icyatsi n'umuhondo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bikaba binanditseho, byanditse mu rurimi rw'Icyongereza havuga ngo sport medicine center, byumvikana ko hano hantu hakorerwa siporo hakaba hari intebe umuntu ashobora kwicaraho ndetse hakaba hari n'umuryango umuntu yinjiriamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, kikabamo amamashini, kikabamo amamatera asa n'ubururu, byose byifashishwa mu kuba byafasha abarwayi mu kurwara neza bakaruhuka bakabasha gukira.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, ni ikigo kiriho abantu bagiye batandukanye bagiye kwivuza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, hariho umumama, hakaba hariyo umuganga, hakaba hariyo n'abasore, umwe aricaye undi arahagaze n'ababyeyi bari inyuma baterureye abana.

Icyumba kirimo abaganga bicaye bari kuganira ndetse abandi bari mu bushakashatsi bugiye butandukanye. Abaganga bambaye amataburiya y'umweru bose, yaba abakobwa ndetse n'abahungu, ni icyumba gisa neza kirimo amabara y'umweru kirimo n'utubati ndetse n'ameza.

Inzu y'ibitaro byo kwa muganga, aho usanga hariyo abarwayi benshi. Ni inzu iriho abantu bari kugenda batambuka imbere yayo ndetse hari n'umusekirite uharinda. Ndetse hari n'abandi bantu bari kugenda batambuka buri mwanya.

Umukobwa uryamye urwaye uyu mukobwa ararwaye yambaye ikanzu isa n'ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umuganga w'umugabo ndetse n'undi muganga uri kumusuzuma areba uko ameze w'umumama.

Ibitaro byubatse byo mu Rwanda, bifite idarapo ry'u Rwanda, ni ibitaro binini, bikaba ari ibitaro byubakishije inkuta ndetse zisa n'amarange y'umweru. Bikaba bifite utwatsi twiza ndetse hari kujyayo umuntu.

Abaganga bari mu nyubako yo kwa muganga bakoreramo inama, n'inyubako irimo ababyeyi ndetse bakuze bigaragara ko bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye kwa muganga bari batandukanye bambaye agapfukamunwa bashyizemo umwanya hagati ya mugenzi umwe n'undi, undi mugabo na we ahagaze ari kureba abandi, abandi na bo bari kugenda batambuka.

Inzu yo kwa muganga ikaba ari inzu ifite ibyapa biri iruhande, ni inzu nziza isa n'ibara ry'umweru ndetse irimo n'ibara ry'umukara, ikaba ari inzu ifite aho binjirira, ikaba yanditseho amagambo ari mu cyongereza.

Inzu yo kwa muganga ifasha abarwayi bagiye batandukanye imbere yayo hari ikirango cyanditseho amagambo agaragaza uko ibintu byose bihakorerwa hari umuhanda ujyayo kuri iyi nzu yo kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, cyubatse neza, gifite ibendera ry'igihugu, kikaba cyubatse mu ibara ry'umweru ndetse kikaba gifite amabati asa n'ibara ry'ubururu.

Igicyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no kuba bashobora kuba bakora siporo, ni icyumba kirimo ibikoresho by'ibyuma by'amamashini biba bitandukanye.

Abantu bagera kuri barindwi, bambaye amashati y'imyeru ndetse harimo abambaye amapantaro y'umukara abandi bambaye amapantaro y'ubururu, bari kwinjira ahantu handitse KFH Rwanda.

Ku bitaro bya Kabutare abantu bari bahaje bose bambaye udupfukamunwa, inyuma y'aho hari inzu yandiseho isange wane sitopu senta Kabutare hosipito. Harimo abagabo ndetse n'abagore bari bari kumwe.

Icyumba kirimo abaganga ndetse n'abarwayi, abarwayi baricaye mu dutebe tw'abantu batabasha kugenda ndetse abo baganga bambaye imyenda isa n'umweru, bambaye n'udupfukamunwa yaba abarwayi ndetse n'abaganga.

Kwa muganga hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru, ari kureba mu mashini ari kureba uko ibintu biri kugenda ndetse imbere ye hari ikimashini kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, inyuma y'iyo mashini hariyo abantu benshi na bo bambaye udupfukamunwa.

Inzu y'abarwayi aho babika ibikoresho by'abarwayi, ni icyumba gisa n'ibara ry'umweru kikaba gifite ahantu habikwamo ibikoresho handitseho ku gapapuro k'umweru karimo amabara y'umutuku, ndetse hirya hari amashini n'amameza yifashishwa kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bifasha abarwayi. Harimo uburiri ndetse bufite n'umusego, n'igitanda kiriho matera, harimo aho bakarabira, hakabamo aho bashyira imyanda, hakabamo aho bafatira udupapuro two kwihanaguza, ndetse n'ibindi bigeye bitandukanye, ni icyumba gifite ibara risa n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga cyangwa se inzu yo kwa muganga irimo ahantu abarwayi baryama, ni ibitanda bifite uburiri bushasheho amashuka asa n'ibara ry'icyatsi. Ibitanda bisa umweru, iruhande rwabyo hari amarido afite ubururu bwerurutse. Ibi bitanda muri iki cyumba harimo n'i ibara cyangwa se irangi riri ku rukuta risa n'ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi hejuru ndetse no hasi, akaba ari gutambuka mu cyumba cy'abarwayi ahantu hari ibitanda ndetse n'amarido asa n'ubururu.

Icyumba bakoreramo siporo, iki cyumba kirimo ibikoresho bya siporo bye bitandukanye, aho hari abantu bakenera ndetse hakaba harimo ibikoresho byo kunyonga, ibyo guterura n'ibindi bigiye bitandukanye bya siporo.

Umugabo uri gusobanura ibijyanye n'ubuganga, yerekana ikirangantego kigaragara imbere. Ni igishusho bashyizeho, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hariho n'ikirangantego cya RBC.

Inzu ya farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye, hariho uyicururizamo ndetse hakaba hariho n'abo bakorana, aho bavuga ko handitseho ngo dukorana na Mediplan ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba ari icyumba abantu bicaramo bakaba bamererwa neza, ni ahantu hasa neza hari intebe z'amoko atandukanye, hakaba hari n'ahantu uca kugira ube wagera ahantu hamwe uvuye ahandi.

Faromasi yanditseho beniyeri faromasi, ni faromasi itanga imiti, ikaba itanga imiti ifasha abantu kugira ngo babashe kuba bavurwa bitabweho. Ni faromasi ifite na nimero za telefoni ziriho ndetse hananditse n'abo bakorana.

Icyumba babikamo amaraso ndetse bakaba bashyiramo n'imiti, gifitemo utu etageri tugiye dutandukanye turimo utuntu turi mu mabara agiye atandukanye, hamwe hari ubururu, ahandi hari icyatsi, ahandi hari umweru.

Abaforomokazi bari imbere y'ahanditse ''Legacy clinic''. Ni abaforomo b'abakobwa ndetse bose bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imyenda isa, ari yo umwenda wo hejuru usa n'ubururu n'uwo hasi usa n'ubururu.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, burimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye. Harimo bifite amabara y'umutuku n'umweru n'ibindi bifite amabara y'umukara werurutse.

Icyumba cy'abarwayi kirimo abarwayi baryamye ku bitanda, kikaba gifite amabara y'umweru ndetse harimo umugabo uri kuzinga inzitiramibu, akaba yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari kuzinga inzitiramibu y'ubururu.

Ahantu hagaragara ko harimo imiryango igiye itandukanye. Ni myinshi, ni imiryango yinjiramo, aho haba harimo ibintu bigiye bitandukanye harimo na none igishushanyo, igipande ni ahantu hasa neza hafite amabara y'umweru ndetse n'imiryango isa ikigina, hasi naho hafite ibara risa n'ikigina.

Ukuguru kuriho amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya move, ni ukuguru gusa nk'uk'umuntu uri kwirukanka cyangwa se ari gukora siporo.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga ni ibikoresho bifite ahagaragarira amashusho bikaba bifite n'aho bashobora kubitwara bakabijyana; bifite amapine, ni ibikoresho bifite amashusho agaragara aho ubona umuntu akakuyobora uburyo ukora siporo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo gukora siporo. Ni icyumba gifite, ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye harimo ibizeru bifasha abantu mu kugororoka, n'ibyuma abantu birukankiraho, n'ibyuma abantu baterura.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi yarambuye ibirenge, amaguru yiwe ndetse ari kuyagorora, si amaguru gusa n'umugongo we yawuhinnye ari gukora siporo ngororangingo cyangwa se ngororamubiri, yambaye isengeri ndetse yambaye n'ipantaro imufashe y'umukara.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga muri raboratwari bya siporo. Ni ibikoresho byifashishwa mu kuyobora abantu mu gukora siporoba haba abazishoboye ndetse no gufasha abarwayi kugira ngo babashe kuba bamera neza.

Imashini yifashishwa muri siporo kwa muganga kugira ngo ifashe abantu kuba bakomera nk'imashini irimo abara y'ubururu ndetse n'ikigina n'umweru.

Umwana w'umukobwa uri muri siporo ngororamubiri. Akaba ari kwigorora, aho yafashe ukuguru kw'iwe agufatishije ukuboko, ubundi akinanura, ukuguru kwe kuri ku kundi kuguru.

Umusore uri gukora siporo ni umusore uri kwirambura yunamye ndetse yambaye isengere y'ibara ry'umukara n'ikabutura y'umukara ni umusore ari gukora siporo ngororangingo azokorera ku kantu yashyize hasi akarambuye k'umukara.

Imashini igaragaza uko umuntu ameze ni imashini nini umuntu aryama kuri yo ubundi ikamukurura ikareba uko uwo muntu ameze mu mutwe wiwe n'imashini ifite amabara asa n'umweru iri muri iki cyumba hirya yayo hari akabati.

Umukobwa ufite agapipiri cyangwa se agacupa ari kunywa amazi n,umukobwa bigaragara ko avuye muri siporo afite na eswime ku rutugu rw'iwe yambaye isengeri ndetse ari kunywa amazi afashe agapipiri mu kuboko kw'iburyo.

Udukoresho tw'ibanze twifashishwa mu kuba umuntu yafasha umuntu mu gihe arwaye cyangwa se afite ikibazo cy'ubu bubuzima, harimo utw'imiti ndetse hakaba harimo udupima ubushyuhe, hakaba harimo utwifashishwa mu gutanga amazi, hakaba arimo uturinda kwandura imyanda.

Icyumba kirimo ibikoresho bigaragara ko gikorerwamo siporo, ni icyumba kirimo ibikoresho byo kwirukankiraho, ibyo kucaraho n'ibyo kuryamaho, ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi ndetse n'ibyo baterura byose birimo.

Umukinnyi wari uri mu kibuga, umukinnyi akaba yaguye ari hasi, ari gufashwa n'abandi bamwitaho bari ku ruhande rwiwe bamufasha kuba yahaguruka, bari bambaye rinete ndetse banambaye inkweto za siporo zisa n'amapantaro y'umukara bose.

Akamashini gatwarwaho umuntu ubana n'ubumuga ndetse kakaba kifashishwa mu kuba yabika ibintu, gafite amabara asa n'umukara ndetse n'umutuku ka kaba gafite amapine ane ajya kungana, kakaba gafite n'aho bafata igihe umuntu bamutwaye.

The ethic of performance enhancing drugs in sports. Ibinini bitondetse bishushanya umuntu ndetse n'urushinge ndetse n'akantu gapfuka urushinge...

Umukobwa uri muri siporo akaba yambaye ekuteri mu matwi, akaba afite akantu kamufasha muri siporo ku kuboko ari kunywa amazi, mu gacupa aho yambaye isengeri isa n'ibara rya move. Ni umukobwa w'imisatsi miremire wari uri muri siporo.

Umukobwa ufite ibisuko, ari gufasha umukinnyi waruri mu kibuga, ari kumuvura ku maboko yiwe, afite ibyo ari kumusingiraho amufasha gahoro gahoro.

Ibiganza byambaye ibikoresho bakoresha muri siporo, byitwa ga. Ga ni ibikoresho bikoreshwa muri siporo bikaba bikoreshwa mu kubyambara mu ntoki kugira ngo umuntu abe yakwirinda kuzana amabavu.

Umukobwa uri muri siporo ni umukobwa warambuye ukuguru kw'iwe kw'iburyo maze ukw'ibumoso agushyira imbere araguhina arangije azamura amaboko yiwe. Uyu mukobwa akaba ari muri siporo ari kwigorora umubiri we kugira ngo urambuke umere neza.

Ku dukoresho twifashishwa mu gutwara ibikoresho byo kwa muganga by'ingenzi, bikunda gutwarwa n'abantu b'abaganga bavura abakinnyi, ni udukoresho dufite ibara ry'umutuku, ndetse hari n'agacupa k'amazi kari iruhande rwa byo.

Umusore ufashe ukuboko kw'iwe kuriho ikintu cy'igitambaro, aba ameze nk'aho ari kugikanda, yambaye umupira w'umweru, ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo birimo balo ya basketball, ga z'abakinnyi bakina umukino wa bogisi ndetse n'akantu gapima umutima, agakoresho kifashishwa mu gupima umutima ndetse na kadenesi ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye two mu gukina imipira igorora ingingo.

Umuganga ari kwereka abandi bagenzi be, uko bakoresha icyuma gisuzuma abarwayi. Abereka uburyo bagikoresha. Bamwe baricaye bari kwandika, abandi baricaye bari kureba ibyo ari kubereka.

Umuntu wunamye, akandagiye ku kantu gasa ubururu, agiye gufata akandi gasa umuhondo, yambaye ipantaro ikabutura y'umukara n'umutuku n'umupira w'umutuku. Inkweto yambaye ni inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara.

Umusore uri muri siporo ari kuzamura ukuguru akagushyira hejuru y'ikintu cy'umukara gihari, ni umusore wambaye imyenda y'umukara akaba ari muri siporo yambaye inkweto z'umukara, ni umusore ugaragara nk'aho ari kugenda yurira iki kintu.

Ibikoresho bikoreshwa muri siporo harimo kasike bambara, hakaba harimo balo bakina ndetse zigiye zitandukanye, hari balo ikinwa n'umukino w'amaboko basket, hakaba hari n'umukino w'amaguru, hakaba n'umukino w'amaboko witwa rugubi n'undi mukino wundi.

Umugabo ufashe undi, undi ufashwe yambaye aka isengeri ifiteho nimero ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri, umufashe yambaye isengeri iriho ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, giciyemo imirongo ibiri.

Ikirahure bari gusukamo amazi, ni amazi ari guturuka mu gapipiri gasa neza, karimo amazi meza gasa n'ibara ry'ubururu, ni agapipiri keza karimo amazi meza ndetse arigusukwa mu kirahure cyiza gisa neza kitagira ibara.

Agakoresho kifashishwa mu kuba umuntu yakora siporo ndetse kariho amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri by'amanyarwanda hakaba hananditseho ko yagufasha gukuraho inda bikoroheye. Ni amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda hakaba hananditseho n'ayanditse mu rurimi rw'icyongereza. Baaaa.

Uducupa turimo imiti. Ni uducupa tujyamo imiti tukaba twanditseho n'ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'amabara y'ubururu ku gapapuro kariho. Ni uducupa tuvamo imiti twanditseho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umusore ufite agatuza, wishyizeho ibintu ku maboko y'iwe ku rutugu. Ni umusore ukora siporo, akaba afite ibintu yishyize ku maboko bisa n'umutuku. Ndetse hakaba harimo n'ibisa n'ubururu.

Umusore uvuye muri siporo akaba ari kunywa amazi, ni umusore wambaye ecouter mu matwi akaba yambaye umupira usa n'umweru urimo ibara ry'umukara rikeya, ni umusore afite agapipiri mu kiganza cy'ibumoso ari kunywa amazi.

Akuma kariho imibare, kakaba iruhande rwaho gafite umugozi kaka gasa n'ibara ry'umweru, ndetse iyo mibare yanditse mu ibara ry'icyatsi, hakaba handitseho n'andi magambo akaba ariho mu ibara ry'umutuku.

Imbuto ndetse ziribwa zifasha abantu iyo bavuye muri siporo, hakaba hagaragara na none n'ibyuma biterurwa n'abantu iyo bari muri siporo, hakagaragaramo umunzani upima ibiro by'umuntu n'inkweto bambara za siporo. Muri izi mbuto harimo pome avoka n'izindi zigiye zitandukanye.

Umusore wicaye akaba ari kunywa amazi. Ni umusore uvuye muri siporo bigaragara, yambaye isengeri ndetse ku kuboko kw'iwe hariho akantu gasa n'ibara ry'icyatsi yambaye kameze nk'isaha. Afite agapipiri ari kunywa amazi.

Umugabo uri muri siporo ngororamubiri yasutamye, yambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara yazamuye amaboko, imbere ye hari umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Umugabo uryamye ku gitanda gisa n'umukara akaba ari gufashwa n'abandi babiri iruhande rwe, aba bakaba bose bambaye imyenda y'imikara ndetse n'ibara ry'umukara urimo umweru.

Imashini ikoreshwa mu kureba uko umutima w'umuntu uri kugenda utera ndetse n'uko ubuzima bwe buhagaze. Ni imashini ifite muri sikirine hasa n'ibara ry'umukara, ariko imibare yanditsemo ndetse n'imirongo yanditsemo bikaba bigaragara mu mabara y'ubururu, icyatsi, umutuku.

Umukobwa wazamuye ukuguru kumwe ukundi akagushyira hasi yarangiza akazamura amaboko, ni umukobwa ugaragara nk'uri muri siporo, aho ari kwigorora ingingo ziwe zose z'umubiri.

Umusiporutifu uryamye akaba aryamye yambaye inkweto, bakaba bari kumukanda bamukanda gahoro gahoro ku maguru y'iwe, bari kumukanda bamugorora kugira ngo imitsi y'iwe irambuke, umuhagaze impande n'iwe uri kumukanda, hari n'undi umuhagaze hirya na we uri kumukanda.

Umusore uvuye muri siporo, akaba yafashe icupa ari kunywa amazi, umusore yabize icyuya ndetse yambaye n'umwenda w'umukara, akaba yafashe icupa ari kunywa amazi meza ameze neza mu icupa risa neza.

Umuntu wari uri muri siporo ari kwisukaho amazi mu maso afite agacupa hejuru n'amaboko yombi, yambaye umupira w'icyatsi ari kwisuka amazi mu maso.

Umusiporutifu araryamye nyuma y'uko yavunitse, ni umukinnyi wavunitse, akaba ari gushyirwaho bande imufasha kugira ngo ukuguru kwe kuze kumererwa neza, ari guyishyirwaho n'umuganga ubyemerewe.

Umugabo wicaye ari gushyirwa bande ku kuguru akaba ari gushyirwaho bande n'umuganga akaba ari gushyirwaho bande isa n'ubururu bisa nkaho yavunitse, ari muri siporo. Ni umugabo yicaye kugitanda cy'umukara ndetse yambaye n'ipantaro yikoboyi y'ubururu.

Uduhanga tw'umuntu tugiye dutandukanye tugaragaza ubwonko bw'umuntu mo imbere, uko buba bumeze bugiye butandukanye. Bugaragaza mu bice bigiye bitandukanye, yaba hejuru cyangwa se ku ruhande uko biba bimeze cyangwa se imbere, iyo uturutse imbere ku gahanga k'umuntu.

Ibikapu byifashishwa mu gutwaramo imiti y'abasiporutifu cyangwa se y'abakinnyi, ni igikapu kiba kijyamo imiti myinshi cyane, kikajyamo n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bishobora kwifashishwa mu buvuzi, ikigaragara kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Umusore uvuye muri siporo, akaba avuye muri siporo yambaye ekuteri mu matwi yiwe ndetse akaba afite agapipiri k'amazi, ari kunywa amazi, akaba yambaye umupira w'umweru.

Agatanda batwaraho abarwayi babavana mu kibuga cyangwa se batwara abarwayi badashoboye kugenda, ni agatanda kagaragara gafitwe n'abantu babiri umwe ari imbere undi ari inyuma ni na ko gakoreshwa.

"The future for performance enhancing drugs in sport." Ahazaza harwanya ibiyobyabwenge. Ntabwo ibiyobyabwenge tuba tugomba kubikoresha, mu gihe tubikora siporo, mbega kugira ngo dukore, tunarwanye ibiyobyabwenge, tuba tugomba gukora siporo ngororamubiri, kuko ni ingenzi ku buzima bwacu.

Amavuta ari mu ducupa tugiye dutandukanye aya mavuta afasha mu koroshya uruhu rw'umuntu ndetse akorwa mu gikakarubamba aya mavuta ni amavuta meza arasa neza kandi afasha mu kuvura.

Uducupa tw'amavuta tuvamo amavuta meza akorwa mu gikakarubamba, ni amavuta aza mu ducupa dusa n'ibara ry'umuhondo, dufite imifuniko ya shokora, ndetse hari n'udukarito aya mavuta azamo ndetse hakaba hari n'udushashi aya mavuta azamo.

Ibyatsi biri kumwe n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwaga kera mu kuba byavura n'ubu birakifashishwa, hakaba ari ahantu ubona ko byamaze gutoha bimeze neza.

Agakarito kanditseho niyu fomiresheni, fowa sevo ,soribo ,maritivitamini endi minimo fudu sapurimi, wifi foresite furuwiti foreva, hakaba hariho na shuga furi endi switebo foru negiresheni ,hakaba hananditseho mirongo itatu. Ni udukarito tugera kuri tune.

Imiti isanzwe ifasha kuba yavura. Ndetse ni imiti iba iri mu gacupa k'umweru kariho ikirango cy'umutuku. Kigaragara ko ari imiti ijyanye no kubaka urugo aho kuvura ndetse hakavura kurangiza vuba no gucika intege akaba aribyo ino miti ivura.

Icyatsi kifashishwa mu gukora imiti gakondo, ni akatsi gatoya katagira ibibabi byinshi kakaba kaba gasa n'icyatsi kijimye cyane, kariho amazi yagiye atonyangiraho wagira ngo ni imvura yaguye.

F.I.T Nutritional Cleansing Program C9 cyangwa se K ikenda. Ni agakarito kanditseho aya magambo maze kuvuga yo mu rurimi rw'Icyongereza

Ibyatsi bikoreshwa mu miti, bivura abantu mu ndwara zitandukanye z'umubiri, n'ibyatsi bikoreshwa, haba mu kubikoresha babivuguse cyangwa mu mamashini.

Umusore w'umuganga ari mu cyumba cyo kwa muganga. Ni icyumba kirimo amacupa yifashishwa mu gushyiramo ibikoresho cyangwa se imiti yo kwa muganga, ari kureba apima asuzuma ibintu uko bimeze, yicaye ku ntebe.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti n'ibyatsi bisa n'icyatsi byifashishwa mu gukora imiti ibi byatsi munsi yaho hakaba handitseho amagambo yitwa otopu toropiko donti komu.

Ibimenyetso by'imiti ya gakondo iba iri mu ducupa tugiye dutandukanye, handitseho revive igisubizo ku muryango, handitseho amagambo avuga ngo uvira ndetse n'andi magambo agiye atandukanye.

Igiti giteye ahantu mu byatsi, kivamo imiti igiye itandukanye. Ni igiti kizamuka kikagira uburebure butoya ariko kikaba gifite ibibabi binini. Kivamo imiti bifashisha mu kuvura abantu.

Icyatsi kigaragara gifite utubabi dutoya, kikaba ari icyatsi giteye ahantu mu mabuye, ni icyatsi kivamo imiti igiye itandukanye ivura abantu.

Igiti giteye mu kavase, kikaba gifite amababi y'icyatsi, kikaba kiri ahantu hasi mu ku butaka ndetse inyuma yaho hari n'ibindi bintu bitagaragara neza.

Ibyatsi ndetse n'ibibabi biri ku giti ni ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ni ibyatsi gakondo byo mu Rwanda byifashishwa mu gukora imiti ifasha abantu kubavura indwara zitandukanye.

Uducupa dutatu tw'imiti, kamwe twose dufite amabara asa n'umweru ndetse kamwe gafite amabara y'umweru n'ubururu. Aho abyanditse byanditse mu bururu, akandi byanditse mu mutuku, kandi nako byanditse mu bururu bwijimye.

Igikombe gishyirwamo ibyo amavuta afasha kuba yakomeza uruhuko barwamera neza rukamera neza. Ni amavuta rero aba ari muri iki gikombe gifite umufuniko usa n'umuhondo, icyo cyo kikaba kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umuti wakozwe muri tangawizi ndetse n'ibyatsi, ni umuti usa n'ibara rya oranje, ukaba uri mu kirahure aho wayojwe ikiyiko.

Imiti ya gakondo irimo ibyatsi bisa n'umukara, ikabamo ibintu bisa n'umweru, ikabamo agasekuru gasekuraga imiti, hakaba hari ibintu bimeze nk'ibibabi byumye.

Uducupa bashyiramo imiti ndetse iyo miti ikaba yanditseho Aloe vera gelly. Ni amavuta yifashishwa mu kuba umuntu ashobora koga, akayisiga ku mubiri we. Uruhu rwiwe akaba yabasha kumererwa neza.

Uturahure dusa neza ndetse turimo uturabyo dusa neza ni uturabyo dukorwamo imiti nk'uko bigaragara, hari imiti iri iruhande rwatwo, ni imiti iba yakozwe ivuye muri utu turabyo, ifasha abantu kuba bakira indwara zitandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu kuba byavura abantu, biherereye ku ruzitiro niho biteye. Bikaba biteye kandi bisa n'icyatsi kibisi n'ibyatsi bivamo imiti yifashishwa kwa muganga.

Uducupato tuba turimo imiti ndetse n'amavuta, n'uducupa dusa n'ibara ry'umweru tuba twanditseho n'amagambo aba ari mu mabara atandukanye ayo mabara aba yanyanditseho n'amabara y'ubururu n'umuhondo umutuku na move n'ayandi.

Umuti uri mu gacupa, ndetse ni umuti wifashishwa kugira ngo uvure abantu bafite indwara z'uruhu. Ni umuti uba uri mu ducupa dusa n'umweru, dufite aho amabara yandi agiye atandukanye.

Agacupa kaba karimo isabune yifashishwa mu koga, isabune nziza ituma umuntu acya. Ni agacupa kari mu ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara risa n'icyatsi.

Igiti gifite ibibabi byinshi ariko byifashishwa mu kuba byakorwamo imiti ivura abarwayi, hakaba havamo imiti igiye itandukanye, ikoreshwa kwa muganga ndetse no mu mafarumasi.

Umuntu uri gusarura, agenda asarura ibyatsi, byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye. Ni umuntu wambaye ikoti ry'umukara akaba yambaye n'umupira w'umutuku. Ari gusarura ibyatsi, byifashishwa abivanamo imiti yo kuvura.

Icupa ndetse nigikarito, icupa risa n'ibara ry'umuhondo, rifite umufuniko usa n'ibara ritukura, n'amagambo ryanditseho n'ibara ritukura ndetse n'ikirango cy'iriho mu ibara ry'umukara. Igikarito kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi. Hariho ibishushanyo by'abantu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ibibabi by'ibiti bigiye bitandukanye bivamo ibyatsi bikoreshwa mu mubuvuzi bigakorwamo imiti igiye itandukanye.

Agacupa kabamo umuti ufasha kuba wavura uruhu, ni agacupa kabaga gasa n'ibara ry'umweru kakaba kanditseho n'amagambo asa n'ibara ry'icyatsi.

Imiti ikoreshwa ya gakondo ni imiti ifite amabara agiye atandukanye, harimo imiti y'umweru, imiti y'ikigina, imiti y'umutuku, imiti y'icyatsi n'icy'umuhondo n'imiti igiye itandukanye.

Ibimera bisa n'amabara atandukanye ni ibimera bivamo imiti bakoresha bavura indwara zigiye zitandukanye, ibi bimera harimo ibifite amabara y'umutuku ndetse n'ay'icyatsi.

Imbuto abantu banywa iyo bavuye muri siporo zikaba zabagirira umumaro, ni imbuto zirimo amacunga ndetse n'indimu nziza hakaba harimo n'izindi zigiye zitandukanye.

Agacupa k'imiti karimo imiti ikoze mu rukakabamba ndetse agacupa n'ibara ry'umweru, kakaba gafite amagambo yanditseho mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibishushanyo by'igikakarubamba.

Agacupa k'umweru gasa n'umweru nyine, kakaba gafite ibirango biri mu mabara arimo ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara. Ni agacupa kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, karimo umuti uvura abantu.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iri ku kantu ka k'amamiyo ndetse no mu kantu k'agasekuru karimo agati kameze nk'umuhini.

Ibyatsi byifashishwa mu gutanga imiti, ni ibyatsi byiza bivamo imiti igiye itandukanye ibi byatsi bikaba ari ibyatsi byera mu gihe cyiza kandi bikaba bisa neza bivamo imiti myiza ivura abantu.

Uducupa dushyirwamo imiti ndetse n'udukarito dushyirwamo imiti ndetse n'imineke ndetse n'inanasi ndetse n'indabyo, biri ahantu hatandukanye harimo uducupa dusa n'amabara y'ubururu, utundi dusa n'amabara amatuku, utundi dusa n'amabara y'umweru.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye iri mu ducupa turimo isa n'umukara, isa n'umuhondo, isa n'ikigina, uducupa dupfundikishije amabara, imifuniko ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo ndetse n'ay'ikigina.

Icupa ryanditseho foreva rikaba ari icupa ry'umweru rifite umufuniko usa n'ubururu, rikaba ryanditseho amagambo nayo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asa n'ubururu.

Umugabo uri mu ishyamba uri gusoroma imiti, iya kera cyangwa se imiti ya Kinyarwanda, akaba ari yambaye umupira w'umweru uvanzemo n'umukara ndetse ari mu ishyamba.

Afurikani taradishono medesine deyi ,bibiri na makumyabiri na kabiri, amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ,hejuru yayo hari utubara tw'icyatsi ndetse munsi yaho hariyo ibyatsi byinshi cyane.

Ikiganza giteruye amavuta ari mu gacupa gasa n'umukara, ni agacupa kanditseho lavenda, gafite umufuniko w'umukara kakaba gasa n'umukara kanditseho n'amagambo y'umukara, gateruwe n'umuzungu.

Agacupa kabamo imiti yifashishwa mu kuba yakemurira abantu iby'ubuzima, mu gihe bari muri siporo ni amavuta abari mu gacupa gasa n'umweru kakaba gafite amabara y'umuhondo kanditseho aro poroposo izikereme.

Imiti igiye itandukanye irambitse hasi, imwe irasa umweru, indi irasa umutuku, indi irasa umukara, indi irasa umuhondo ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye byanditsemo amagambo atandukanye, hari n'agasekuru gasekura imiti.

Amacupa arimo ibintu bigiye bitandukanye n'amacupa abiri afite imitwe isa nka shokora ndetse iruhande rwayo hari ishashi yanditseho amagambo mu cyongereza ndetse hakaba n'agakarito nako kanditseho amagambo mu cyongereza gafite ibara ry'umweru n'irindi bara rindi.

Uducupa tw'amavuta twa Aloe vera ni uducupa dusa n'ibara ry'umweru tukaba ari ubwoko butatu. Kamwe ni agacupa karekare kari mu icupa ry'umweru ndetse gafitemo amavuta mo imbere ya Aloe vera ndetse hari n'akandi kakegereye gatoya cyane, ako k'umweru n'akandi kakegereye nako k'umweru kanditseho mu mabara.